Amashuri y'inshuke agaragaraho abana bafashe ku ibendera

Inzu iri ahantu hubatse neza ifite amabara meza.

Ibikinisho by'abana biri ahantu ,hari ibara ry'ubururu ku rukuta bw'urukuta , bitondetse ahantu hamwe ubona ko bitondetse.

Amashuri y'inshuke agaragaraho ibishushanyo bitandukanye, ahantu hijimye hatari kuva izuba bigaragara.

Abantu bari ahantu bari kurya umunyenga cyangwa se bari mu byi'cngo bishimisha, hariho umupapa wazanye abana kugira ngo babashe kwishimana, urabona ko bishimye.

Igikapu cyiza gifite amabara meza harimo umutuku ndetse n'ikirango cy'umukara gifite imishumi ibiri neza.

Imyendagofero ndetse n'imipira umupira usimutu ku ingofero igerwasa n'umutuku ndetse nkote ry'ubururu hagaragara ko ari imyenda myiza kandi idoze neza

Igikoresho gikoreshwa ku ishuri kiba kirimo ibindi bikoresho byinshi harimo: amarati, kompa, amagoma ndetse kikabika n'ibikoresho by'umunyeshuri neza harimo nk'amakaramu.

Abantu bagaragara mu hantu hari nk'igitabo ku mashuri y'inshuke.

Abanyeshuri bahagaze mu gipangu bari kumwe n'umuyobozi mu gihe cya kovide bambaye imidari nk'aho hari igikorwa bavuyemo bakaba batsinze bakaba bari no kwifotoza.

Abanyeshuri bari mu isomero, bari gusoma ibitabo, bari kumwe n'ababyeyi babo, ubona ko bateraniye ahantu hamwe kugira ngo bahuze ubutumwa.

Abanyeshuri benshi bateraniye ahantu hamwe barangije icyiciro cy'amashuri ya kaminuza, bamwe bagaragara nkabishimye abandi bagaragara nkabarakaye bityo bose bari muri.

Amashuri yiga ku bintu bijyanye n'imyuga n'ubumenyigiro.